Uru ni urubuga rw'ikigo gishinzwe imari cyitwa Ekwiti rwashyiriyeho abarugana kugira ngo bazajye bakora ibyo bakeneye byose bijyanye n'amafaranga yabo batarinze bava aho bari. Uyu mukiriya yitwa Taniya Barubine Umuhire Ngabo, akaba afiteho ibihumbi makumyabiri na kimwe, magana atandatu mirongo itatu n'atatu kandi nta mwenda afite.

Iyi ni inzu ivunjisha amafaranga agiye atandukanye yo mu bihugu bitandukanye, harimo ayo muri Amerika, mu Burayi, mu Bwongereza, muri Canada, mu Buyapani ndetse no mu Barabu. Harimo abantu muri iyo nzu bari kuyavunja ndetse no hanze hari abatonze umurongo bashaka kuvunjisha.

Iyi ni inzu nini cyane y'amagorofa ane akorerwamo ubucuruzi butandukanye, imbere yaho haparitse amamodoka menshi atandukanye ndetse haparitse n'igare rimwe, hari kandi abantu batandukanye bari mu bikorwa bitandukanye, imbere yaryo kandi hari imifuka irimo ibiribwa hasi hari abantu bari gukora ubucuruzi.